Ubu ni ubworozi bw'ingurube, bufasha abaturage mu kubasha kwiteza imbere ndetse akaba ari n'inyamaswa zororoka, zikaba zita zizwiho gutanga umusaruro mu buryo bwihuse kandi buta bitagoranye.

Iki ndakeka ari ikiraro cy'inka, aho inka zororerwa, ashobora kuba biri mu midugudu y'ikitegererezo cyangwa se ari ikiraro cy'umuturage usanzwe.

Inkende cyangwa se ibitera ni bimwe mu binyabuzima bijya gutera nk'abantu mu Rwanda bigaragara mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, rero zikaba zizwiho kororoka ndetse no kubana neza n'abantu.